Ihuriro ry'abantu benshi cyane bavanze mu gitsina byombi, abagore, abagabo, harimo abagore bambaye amarinete n'abagabo bambaye amarinete, bahuriye mu nama igamije kwiga ku kintu runaka.

Ingoma iri kumwe n'imirishyo yayo, ibiri. Ingoma ikaba itanaze, cyangwa se ibanze mu ruhu, ikaba iteretse ahantu hashashe, inyuma yaho hakaba hari igikuta gikoze, mu biti, gisennye neza cyangwa gisigirije neza gisa, n'ikigina.

Uduseke tubiri duteretse ahantu hamwe hashashe hareshya neza, hatagira ikizinga herana, utu ni uduseke tugaragaza umuco nyarwanda, nk'uko u rwanda rwo hambere n'ubungubu tubyemera, cyangwa bigaragara.

Umukobwa yuriye igiti cy'umuriro w'amashanyarazi. Ari hejuru ku rwego arimo atunganya insinga z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo umuriro ugere ku baturage mu buryo bwemewe kandi bwihuse.

Uru ni uruganda rw'Inyange rutunganya umusaruro uva ku mata rukaba rugizwe n'inyubako mbona nyinshi, hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo winjira mu ruganda rwagati n'amarembo magari agaragara ko anyuramo ama modoka n'ibindi binyabiziga biremereye.

Inyubako zubabakijwe n'amatafari ahiye n'amabati zisakaje amabati atukura, zikaba ari inyubako nyinshi ziri ku murongo umwe, zikaba zigaragara ko ari nk'inyubako z'imiturire ziri ku ruhande ku muhanda, hepfo yazo hakaba hari ikibaya kinini cyane. Izo nyubako zikaba zifite imigozi n'insinga z'amashanyarazi zishyirwamo imiriro.

Ikiraro cyambukiranya umugezi munsi yacyo hari umugezi muto muto, hejuru y'ikiraro hariho abantu barimo barambuka ku kiraro, hakurya y'ikiraro hari imisozi miremire.

Iki gikorwa remezo cya siporo kikaba ari ikibuga cy'umupira w'amaguru, ikibuga cy'umupira w'amaguru kikaba gikikijwe n'uruzitiro se cyangwa urugo rwo mu byuma ruzengurutse ikibuga, hakaba hari izamu mbona imbere n'amatara amurikira ikibuga.

Umuhanda uri kunyurwamo n'imodoka ihetse ibicuruzwa cyangwa se ibigemurwa, ku ruhande rw'uwo muhanda hari inyubako zitandukanye, inyubako z'ubuturo, hakaba hari n'inyubako zikorerwamo ubucuruzi.

Abantu babiri bari mu cyumba, harimo ushinzwe umutekano uzwi nka DASSO, harimo n'undi muyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubutabera ndetse no guca ruswa n'akarengane mu igihugu.

Abagabo babiri umwe yicaye yambaye ingofero undi ahagaze, uhagaze akaba ahagaze munsi y'igiti kimwe n'uwo wicaye akaba yicaye munsi y'igiti, ariko uhagaze akaba ari mu bakora mu rwego rucunga umutekano mu gihugu cy'u Rwanda akaba n'umusirikare.

Abaturage harimo n'abayobozi, batandukanye n'abantu bari mu nzego z'umutekano harimo abasirikare, bari mu gikorwa cy'umuganda, buri wese afite, ibuye abashije gutwara. Akaba ari imbere y'ibigori byinshi cyane.

Umugabo uri mu kayira agenda atembera n'amaguru, akayira kaba gakikijwe'ibyatsi, nyuma y'aho kayira ndetse nyuma y'uwo mugabo hakaba hari inzu nyinshi ariwe urusisiro n'ibipangu by'abaturage batuye.

Uyu muhanda ni umuhanda w'igitaka, unyurwamo n'ibinyabiziga nk'imodoka, na moto n'amagare, n'abantu, ukaba unyura hagati y'imiturire cyangwa urusisiro, hakaba hari inyubako zibatishije amabati atukura zifite amatafari ahiye.

Umuhanda munini urimo imodoka n'abantu bagera kuri babiri, nyuma y'iyo modoka, hakaba hari inzu ndendenini isakajwe n'amabati atukura, hakaba hari n'ibiti byinshi cyane bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, amamoto n'abayatwaye, hari abantu bagenda n'amaguru ku kayira kari ku ruhande, hirya y'abamotari hari amazu n'ibiti byinshi cyane, akaba ari n'amapoto cyangwa se ibiti bimurika bifite amatara amurikira umuhanda n'andi mazu menshi.